Amafi yapfuye abantu barya, amafi yabamo intungamubiri zitandukanye, aba mu mazi cyangwa mu bizenga, abantu baba barateganyije bakororamo amafi yabo bakabaha amafaranga, ayandi bakayarya.

Amafi gapfuye abantu baryaga barobaga mu migezi no mu byuzi by'amafi , aga mafi abantu baragaryaga, gaba garimo inyama zimeze nk'iz'indagara.

Ifi abantu barobaga mu mazi, inyujijemo imihoro ibiri ibiri, izi fi abantu baraziryaga, zibagamo intungamubiri zitandukanye, ifi baziryaga zimeze nk'inyama.

Ibyatsi bihinze, ibigori bihinze muriguriya murima go hirya. Guteyemo insina imwe itari yera neza, ibigori byo byenda kwera ikigaragara.

Ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi, igiti kimwe ni kinini kurusha ibindi, ibindi biracyari bitoya, ibi biti bihingwa ahantu hamwe, bigakora ishyamba, nta bwo babihinga hamwe n'imyaka, nk'ibindi byose tuzi bivangwa hamwe n'imyaka.

Umuurima uhinzemo amateke abantu barya, insina zihinze hirya y'umuririma, insina zera ibitoki abantu barya cyangwa se bakabikamamo umutobe uvamo inzoga.

Abantu bahagaze imbere zagura murima, abantu ibiri bahagaze muri guriya murima w'imyaka bahingagamo icyayi, abantu bitwikiye imitaka, inzu isakaje amabati iri hirya ya guriya murima, ibiti birebire biri impande yagurira murima.

Ibihaza:ubwoko bw'ibiribwa abantu barya, buhingwaga bakoresheje inzuzi bikaranda, byeraga hajeho ibihaza binini gucya, ariko iyo bitari byera aba ari inzuzi zirandaga gusa.

Ibihaza abantu baryaga biri ku meza, ibihaza bateraga inzuzi hakazaho ibihaza binini, abantu bari kugurisha biriya bihaza, amazu ariho irange umuntu wambaye ishati itukura.

Imyumbati abantu bahingaga. Bateraga igiti kikazaho imyumbati hasi. barayikuraga bakayirya, habagaho n'imyumbati abantu banikaga, bakayinika, bakayisekura ikavamo ubugari. Ubundi ubwo bugari abantu bakaburya.

Amepera baryaga geraga gasa n'umuhondo, bagahingaga ari urugemwe, gakera gazanye amapera menshi, gamanzaga gusa n'icyatsi, ageze gaba bagasa n'umuhondo.

Ibihaza abantu baryaga, ibihaza babisaruraga ku nzuzi, bateraga inzuzi zikaranda zikazana ibihaza, byamara gukomera bakabisarura, ibihaza imbere habagamo inzuzi, iyo bari kurya bazikuragamo.

Imbuto abantu barya ziri ku dutanda. Utu dutanda baducururizaho izi mbuto, Umuntu ushaka kugura imbuto azana amafaranga bakamuha imbuto ashaka, ubundi akajya guteka.

Ibigori abantu bahingaga iyo byeze barabisaruraga bakabirya, cyangwa se bakabihungura bakabitekamo impungure, cyangwa se bakabishesha bivagamo ifu. Ifu batekagamo igikoma indi bakayikoramo umutsima. Ugo mutsima abantu baraguryaga.

Mu murima uhinzemo imboga bita amashu, izi mboga bita amashu abantu barazirya, barazikeka, bamara kuzikeka bakaziteka mu mavuta, hari nubwo baziteka mu mazi gusa igihe bazitogosheje.

Imyumbati bakuraga mu butaka bahingaga, igiti kikazaho imyumbati abantu baryaga. Abantu babiri, umugabo n'umugore bafashe icyo giti kiriho imyumbati abantu baryaga.

Inkoko, abantu bororaga zigatanga amagi izindi zitangaga inyama, inkoko kandi iyo ufite ubukene ujanaga ku isoko bakaguha amafaranga kakagufasha gukemura utubazo tumwe na tumwe uba ufite mu buzima bwa buri munsi.

Umurima guhinzemo imyaka itandukanye. Guri kunyuramo abantu babiri, bavuye guhinga. Ugo muririma guhinzemo imyaka abantu basaruraga bakayigurisha, cyangwa se bakayirya. Iyo bayigurishije bakabaha amafaranga gabakemuriraga utubazo dutandukanye.

Umurima w'ibihwagari, ibihwagari abantu barya, ibi bihwagari babikoramo amavuta yo kurya, amavuta bayatekesha ibiryo, bakaba bayatekesha n'ifiriti, ibihwagari bimwe birapfutse kugira ngo inyoni zitabirya.

Imifuka babikamo ubwoko butandukanye bw'imyaka, umuntu uhagaze muri iriya mifuka, uyu muntu niwe ucunga iyi myaka, cyangwa se baashaka kuyigura akayigurisha, kandi ni nawe uyipakira.

Inkoko abantu bororaga, inkoko zitangaga amagi, izindi zitangaga inyama, inkoko kandi iyo ukennye ufite inkoko uyijanaga ku isoko bakaguha amafaranga ukemurishaga utubazo dutandukanye two mu buzima.

Inka ifite amahembe iri mu rupangu iriho veterineri wambaye imyenda z'icyatsi agacupa k'amazi gateretse ku gisima kirimo icyuma gifataga inka.

Inyoni ihagaze kuri ririya shami igiraga umunwa muremure, igurukaga ikoresheje amababa, indabyo zivaga kuri biriya biti zisaga n'umutuku zifite akandi kabara iruhande rwazo.

Inyoni igurukaga ikoresheje amababa gayo. Igi inyoni yateye ikaba yaguye hasi, umwanda wiriya nyoni yitumaga.

Ingagi inyamaswa ziba mubirunga, abantu bajya kuzisura bakishyura amadovize, abantu bava hanze y'igihugu bakaza mu Rwanda baje kureba ingagi. Izi ngagi ziba zimeze nk'abantu usibye ko zo ziba zifite ubwoya.

Inguge inyamaswa iba mu ishyamba, yurira, yonsa, nk'abantu. Iyi nyayamaswa iba imeze nk'umuntu igira amaguru abiri n'amaboko abiri. Ikiyitandukanya n'umuntu nuko yo igira ubwoya bwinshi.

Inyoni iguruka ikoresheje amababa, igira amaguru abiri n'umunwa ikoresha iri gutora udusimba, cyangwa se iri kurya utuntu dutandukanye, igiti inyoni ihagarishijeho amaguru abiri.